Ni mu kibuga cy'umupira abakinnyi barimo kwifotoza, hari abambaye imipira y'umuhondo, abandi iy'umutuku, abandi iy'icyatsi kibisi, abandi bambaye inkweto zenda kuba umweru, abandi icyatsi kibisi, abandi ubururu.